Abantu batanu bari imbere bambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi kibisi, ku ruhande hari ufite impuzankano ya gipolisi, inyuma yabo hari abantu bahagaze, imbaga nyamwinshi ifite impuzankano ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo ari wo wiganje, bikaba byerekana ko abari imbere aribo bayobozi abari inyuma ari abaje mu mahugurwa.

Ni abantu batanu bari mu nama umwe muri bo niwe uri kubabwira ingingo nyamukuru baraza kwifashisha muri iyo nama; batatu muri bo imbere yabo hari mudasobwa bari kwifashisha mu kureba izo ngingo; kandi harimo abagore babiri byerekana ko umugore yashyizwe imbere mu iterambere.

Ni umugabo ubona ko ari gutanga inyigisho ku bantu bari mu gisharagati, cyangwa nk'uko abasirimu babivuga ngo itente, inyuma ye hari indangururamajwi cyangwa sipika mu ndimi z'ubu, kandi abo bantu ari gutangaho inyigisho bambaye imyenda y'ibara risa nk'aho baje mu gikorwa kimwe.

Imbaga nyamwinshi yaje kwitabira ibiganiro byabaye, hagati hari umuntu uri gutanga amakuru cyangwa uri gutanga inyigisho, ku ruhande hari abantu bari mu gisharagati cyangwa nk'uko abanyamahanga babyita itente; kugira ngo abantu babe bari hamwe bisaba umutekano niyo mpamvu imbere yabo hari abashinzwe umutekano bambaye imyenda isa nk'iyabo.

Imbaga nyamwinshi yateraniye ahantu wagira ngo bari mu nama cyangwa bari guhabwa ikiganiro, imbere yabo hari abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bari kwerekana ibyo bari kuvugaho. Ibi ngibi byerekana ubumwe ndetse no gushyira hamwe mu banyarwanda kubera nta mwiryane uri hagati y'aba.

Abantu barenga icumi bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza aho bari bicaye bari gukora iyo nama. Bose bakaba bambaye udupfukamunwa, bikaba byari itegeko muri bibiri na makumyabiri kugeza bibiri na makumyabiri na kabiri kugira ngo twirinde icyorezo cya kovidi cumi n'icyenda.

Ni umugabo ukuze cyangwa nk'uko benshi babivuga umusaza, yambaye amadarubindi, afite mikorofoni mu ntoki nk'aho bamuhaye ijambo, ndetse yambaye n'ishati isa ubururu, imbere ye hari akantu k'agapapuro kerekana ko ahagarariye Ferwafa ndetse n'amazi yo kunywa.

Imbaga iri mu cyumba cy'inama, bari kwiga ku kibazo runaka imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, ikayi yo kwandikaho ndetse n'agapapuro kerekana buri wese icyo ashinzwe kandi icyahagarariye. Ibi bikaba ari byiza kubera ko buri umwe wese ashobora gutanga igitekerezo k'iwe batitaye ku rugero ariho.

Ni abantu bari mu cyumba cy'inama, harimo umugore uri imbere ndetse ubona ari hagati nk'aho ariwe uyoboye inama, afashe ijambo ari kuvuga ku ngingo nyamukuru bari kwerekezaho muri iyo nama, imbere ye hari murandasi ndetse n'abo bose, hari n'amazi yo kwifashisha mu gihe bagize inyota.

Iki ni cyumba cy'inama harimo imbaga nyamwinshi yiganjemo abagore. Ibi byerekana ko umugore atasigaye inyuma mu iterambere, uburezi, ubuvuzi, aho hose arimo kandi nta kazi na kamwe atakora, kereka ari we wabishatse, kubera ko iterambere rye ryashyizwe imbere kandi rirashyigikiwe mu gihugu cyacu, ubu nta kazi atakora.

Aba ni abantu bari mu cyumba cy'inama, bari kureba imbere bareba ibyo mugenzi wabo ari kubabwira kandi n'ingingo nyamukuru iri kuvugwaho. Imbere yabo hari ameza ateretseho amazi ndetse n'umutobe mu gihe bagize inyota, kandi nanone hateretseho mudasobwa bari kwifashisha. Muri abo bantu harimo abagore, byerekana iterambere abagore bagezeho.

Imbaga yicaye mu cyumba cy'inama, hari ameza ateretse kuri buri murongo, hariho amazi ndetse n'igitabo, cyangwa imfashanyigisho bari kureberamo kugira ngo barebe ikibazo bari kwigaho. Harimo abagore benshi, byerekana ko iterambere ku mugore ryashyizwe imbere mu gihugu cyacu.

Umugore mwiza uri imbere wambaye amadarubindi ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro ku bantu bicaye bambaye impuzankano isa icyatsi, uyu mugore inyuma ye hariho ikibambasi cyanditseho aterete foramu bibiri na makumyabiri na kane byerekana ko aba baje muri forumu y'abantu biruka n'amaguru.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza manini ariho amazi ndetse n'ikayi yo kwandikamo ingingo bari kuvugaho kandi muri abo bantu higanjemo abagore byerekana ko abagore mu iterambere bari imbere cyane kandi batashyizwe inyuma kandi mu buvuzi, mu bworozi, ubuhinzi ndetse n'akandi kazi kose bagakora nta ngingimira.

Abantu bari mu cyumba cy'inama hagaragaramo abagabo babiri, umwe wambaye mu buryo bw'ubusirimu n'undi wambaye umupira usanzwe; haragaragaramo kandi n'umugore ufite uruhu rwera rutandukanye n'urwabo; hari amazi imbere yabo ateretse ku meza ndetse n'udukayi bari kwandika ibyavuye mu nama.

Umujyi mwiza urimo amagorofa ageretse inshuro zirenga icumi, harimo ndetse n'ikisharagati cyangwa itente iri gukorerwamo ibikorwa runaka. Aha hantu hari isuku ndetse ntanubwo hari kwangiza ibidukikije kubera ko harimo n'ibiti bisukura umwuka w'abantu ndetse bikaba bitanga n'amahumbezi, bikaba byafasha no kugusha imvura.

Uru n'urubuga rukorera kuri murandasi rw'ikigo gishinzwe iterambere mu Rwanda, Rwanda developumenti bodi mu magambo y'impine ari cyo RDB. Aba bagufasha mu gushyira amafaranga ku isoko ndetse ukaba watangiza sosiyete y'ubucuruzi mu Rwanda. Aba baguha inguzanyo kandi bakaba bagufasha kureba uburyo buzinesi yawe izatangira neza.

Ibyuma birebire cyane bikora umunara, hejuru hakaba hariho amantene, akora kandi akaba azana itumanaho, akarisakaza ahantu henshi muri ako gace. Itumanaho ririho mu Rwanda akaba ari ebyiri, hakaba harimo Eyateri, cyangwa MTN biterwa wowe n'iryo ukoresha.

Iri ni itangazo ry'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenu Autohoriti bakubwira ko igihe cyo kwerekana cyangwa cyo kwishyura imisoro y'umutungo utimukanwa ndetse n'umutungo nkodeshanyo ari iki igihe. Bagushyiraho uburyo bwinshi bwo kwishyura ushobora kuba wakwishyura mu ntoki, ushobora kuba wakwishyura kuri telefone ngendanwa ukoresheje itumanaho.

Ni inzu nziza, ndende igeretse kabiri, urabona ko iri ahantu hitaruye, ndetse ifite n'umutekano uhagije bitewe n'iki gipangu kiriho, hariho umuriro w'amashanyarazi utanga umuriro muri iyo nzu, kandi ukaba wayifasha mu bintu bitandukanye nko gutera ipasi, gucana televiziyo, ndetse n'ibindi byose byasaba umuriro.

Itangazo ryo kuri murandasi rya Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, ryerekana ko habura iminsi itatu gusa ntarengwa yo kumenyekanisha umutungo wawe utimukanwa ndetse no kuwusorera. Menyekanisha uyu munsi, wishyure mbere y'itariki kandi usure urubuga rwabo kugira ngo umenye amakuru yimbitse.

Umugore wicaye imbere ya mudasobwa ndetse n'imashini ifotoza ibipapuro, imbere yiwe hariho ibipapuro byose byerekana serivisi za banki akorera harimo Beka cyangwa banki ya Kigali, harimo Ekwiti ndetse na serivisi z'Irembo zose, ibi bikaba byakoroshya aho kugira ngo ujye ku cyicaro gikuru cya buri banki.

Ni uburyo bwabugenewe bwo kuba bakoresha ikarita, ariyo bita tap and go, kugira ngo wifashe mu rugendo aho kugira ngo uzajye uhora ugendana amatike cyangwa amafaranga ashobora gutakara, ubu buryo bwashyizweho na RURA mu rugendo rwo mu mugi wa Kigali kugira ngo bifashe abaturage ndetse n'abayituyemo koroshya urugendo.

Abagabo babiri, bicaye mu cyumba cy'ibitabo, imbere y'umwe muri bo, hari imashini cyangwa mudasobwa, ari gukoresha yandika, uyu mugabo kandi akaba yambaye amadarubindi n'ikote risa ikigina ndetse n'agapira gasa iroza, ku mpande ye hari umugabo ufite imisatsi myinshi, werekana ko afite uruhu rwera ndetse n'ubwanwa burebure.

Aha hari imeza iteretseho ibyuma byinshi by'amashanyarazi, ubwo harimo mudasomwa, harimo icyuma gifotoza, ndetse n'indi mudasomwa, impande na ho ni uko, ayo meza na yo ateretseho ibintu bisa. Ku ruhande hari etageri isa umweru irimo ibitabo aha byerekana ko batanga serivise zo kuba bagufotorera ibintu ukabijyana kuri gahunda.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda. Rwanda reveni otoriti, kiri kwerekana ko habura ukwezi ngo buri umwe wese abe yarangije gutanga imisoro yiwe, kandi uzatinda akaba azacibwa amande y'amafaranga ndetse n'inyungu, ibi bikaba byerekana kandi bishyirwaho kugira ngo buri wese abishyire ku mutima kuba yayatanga hakiri kare atarindiriye kugera ku munsi nyawo.

Ni icyapa kinini cyometse ku giti cyerekana ko hari itumanaho ry'ubuntu nk'uko babivuga ngo wifi, iri tumanaho ridufasha mu gukoresha murandasi zacu bitatugoye, kuvugana n'abantu bari i mahanga bitatugoye ndetse no gukoresha ubundi buryo bwose bwo kuvuga ku mbuga nkoranyambaga bitatugoye.

Urubuga rukorera kuri murandasi rw'ikigo gishinzwe uburezi n'imyigire mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, iki kikaba gikorera ku rubuga rwa REB, kikaba cyagufasha guhindura ikigo cyawe ukaba wareba amanota wagize mu kizamini cya leta gisoza umwaka w'amashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'a'icyiciro rusange.

Urubuga rw'irembo rukorera kuri murandasi, rufasha abaturage kuba bahabwa serivisi za leta batiriwe batonda umurongo ku murenge. Aha ngaha bari gushyiraho serivisi nshyashya bari gutanga, ariyo yo kongera cyangwa kuvana ho umuntu ku butaka kuba ariwe ubushinzwe, ibi bikaba bikorerwa kuri iyo serivisi y'irembo.

Itangazo ryo kuri murandasi ry'urubuga rw'irembo rushyiraho serivisi nshya ari zo zo kwishyura cyangwa kubona uruhushya rwo gukora ubucuruzi yewe no gufungura inganda. Uru ruhushya ni urwo guhinga urumojyi, gucuruza ibikoresho bijyanye n'amashanyarazi, gucuruza imbuto, gutubura imbuto, ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubworozi.

Urubuga rukorera kuri murandasiye rw'ikigo K'imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, ruri gushyiraho itangazo ryerekana uburyo wakwihindurira umubare banga muri tagisi, icyo ukora ni ukwinjira muri iyo murandasi yabo, hanyuma ugakanda ahanditse guhindura umubare banga, ugashyiramo itini number baguhaye ndetse na nimero za telefone ngendanwa.

Ni urubuga rw'irembo ubona ko rusigaye rutanga serivisi z'ubwoko butandukanye harimo kwiyandikisha kugira ngo uhabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto guhabwa uru ruhushya bikwemera ko watwara nta kibazo ugiranye n'abayobozi mu rwanda hose.

Ibyuma bisizwe umweru ndetse n'umutuku, ku mpande ndetse no hejuru hariho ama entene, iki kikaba ari umunara w'itumanaho. Ibi bikaba bifasha gusakaza itumanaho rya telefone ngendanwa muri agace, kandi bikaba byoroshye kuba buri umwe wese yavugana na mugenzi we, muri iki gihugu cyacu.

Iri ni ipironi rirerire rikozwe n'ibyuma bishamikiranye, rikaba rikora ikintu cyitwa taransifoma. Aha hakaba ari ho hahurira umuriro, ukaba wajya ku mapironi mato kugira ngo bageze ku mazu y'abantu. Ku ruhande hakaba hari ibiti byiza cyane kandi binini, bikurura umwuka mwiza, amahumbezi, umuntu akaba yajya kugamo izuba, kandi ibi ngibi ni byiza bisukura umwuka wacu.

Umuhanda munini ugabanyijwemo kabiri n'ubusitani ndetse bushinzemo n'ipoto cyangwa ipironi, ririho insinga z'amashanyarazi, ahaza amashanyarazi ku yindi poto kugira ngo bicanire uwo murongo bicanire umujyi wose, munsi aho ngaho hari ibiti bitanga umwuka mwiza, bikaba byatanga umudendezo ndetse n'amahumbezi mu mujyi.

Abagabo batatu ubona ko buri wese ari muri gahunda ye, hari umumotari utegereje umugenzi, hari umugabo uri kwigendera bisanzwe n'amaguru, ndetse hari n'undi munyonzi ubona ko atwaye amajerekani avuye kuvoma. Bari imbere y'inzu nziza ndetse inyuma y'iyo nzu hari indi igeretse inshuro zirenga eshatu ubona koko ko igaragara bihagije.

Ipironi rirerire rifashweho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi uva ahantu henshi, izi nsinga zikaba zigenda kuri buri rugo rw'umuturage muri ako gace ushaka umuriro w'amashanyarazi, kandi ibi ngibi bikaba byoroshye aho kugira ngo bazajye bakoresha wa muriro unyura hasi mu butaka, kubera ko uriya watezaga impanuka zitandukanye iyo wahuraga n'amazi.

Ni ipoto cyangwa abandi uko babyita ngo ni ipironi, rihuriweho n'insinga z'umuriro nyinshi, iha umuriro mu ngo zitandukanye, ibi byoroshya kuba buri wese yagira umuriro ukw'iwe ndetse no kuba amashanyarazi atahura ngo ashobore kuba yatera sirikwi cyangwa izindi mpanuka izo arizo zose zaba zivuye ku mashanyarazi.

Uburyo bwiza bwo kugezaho abaturage umuriro w'amashanyarazi, ni ukuwunyuza hejuru, niyo mpamvu iri piloni rishinze hejuru cyane, aho kugira go banyuze umuriro hasi nk'uko kera babigenzaga. Ibi byateraga impanuka nyinshi z'ubwoko butandukanye, iyo iyi miriro yahuraga n'amazi ari munsi y'ubutaka.

Ipironi rirerire cyane rikozwe mu cyuma kandi rikaba rihazwa n'insinga nyinshi z'umuriro. Iri rikaba ryitwa tarasifoma nk'uko mu rurimi rw'Icyongereza babivuga. Iri pironi rijyana ku mapiponi mato kandi habayeho ikibazo cyangwa nk'uko abandi babyita sirikwi, habaho ikibazo mu ngo nyinshi zitandukanye, no kuri ayo mapironi menshi ahabwa umuriro na ryo.

Amapironi abiri ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ahaza abaturage mu ngo zabo umuriro, imbere yaho hari icyapa cyerekana aho ugeze mu muhanda, ari cyo keyi jeyi mirongo ine ndetse hari n'icyapa cy'itumanaho rya Eyateli, handitseho ngo foji, jyana na yo.

Ni umugore uri gutambuka mu muhanda w'abanyamaguru, impande ziwe hari ipoto y'amashanyarazi, hariho n'insinga zerekana ko zohereza umuriro w'amashanyarazi mu mazu atandukanye. Impande hari ibiti by'ubwoko bwose bitanga umudendezo ndetse n'amahumbezi mu mujyi kugira ngo buri wese umwuka mwiza ndetse mushya umugereho.

Abagore babiri bambaye amakoti aciye amaboko asa umuhondo ndetse n'ikintu mu mutwe aricyo bita kasike, imbere yabo hari ibyuma by'amashanyarazi, ibi byerekana ko abagore batatanzwe mu iterambere cyangwa ibi by'amashanyarazi bavuga ngo ni ibintu by'abagabo, nta kazi na kamwe umugore ahejwemo muri iki gihe.

Abantu batanu bari mu byuma by'amashanyarazi bose bambaye impuzankano isa ari byo bisarubeti by'ubururu ndetse mu mutwe bambayemo kasike isa umuhondo cyangwa ikigofero gikomeye, ibi ngibi bituma mu gihe habaye impanuka akaba yahubuka avuye hejuru nta kintu yaba cyane ku mutwe kubera ko iki kigofero kiba gikomeye cyane.

Amapironi abiri atandukanye yegeranye n'igiti, ariko ayo mapironi akaba atanga umuriro mu buryo butandukanye. Hari iri rigufi rikozwe mu giti, iri rikaba ritanga umuriro mu ngo z'abantu, kandi akaba ari pironi risanzwe. Hakaba n'iri rirerire rikozwe mu cyuma, mu byuma byinshi, kandi rikaba ritanga umuriro kuri ano mapironi matoya.

Nabakozi bagera muri barindwi bari gukora mu bintu by'amashanyarazi urabona ko buri wese ari mu kazi ke bose bambaye imyenda y'akazi ubwo ndavuga igisarubeti ndetse n'ingofero benshi bakunze kwita kasike. Ibi bibafasha mu kuba batafatwa n'umuriro cyangwa kwirinda impanuka zaza mu buryo bwinshi butandukanye.

Amapironi abiri ari ku murongo umwe ariko ubona ko atandukanye, hari rimwe ry'igiti rirerire rizingiyeho insinga nyinshi, ubu iringiri ritanga umuriro w'amashanyarazi mu ngo no mu mazu menshi atandukanye, hakaza n'irindi piloni rifite akantu ku ruhande, ubu iri ngiri ni itara rimurikira umuhanda mu gihe bwije.

Amazu atatu ari mu bwoko butandukanye, imbere yaho hari umunara cyangwa ipironi rirerire rikozwe mu byuma, ku mpande harimo ibyuma by'amashanyarazi bihaza umuriro kuri iryo pironi kugira ngo ribashe gukora akazi kabugenewe, kenshi na kenshi umunara aba ari kugira ngo ukwirakwize itumanaho muri ako gace kose.

Umugabo wazamutse hejuru cyane ku ipironi ry'amashanyarazi, ubona yambaye imyenda yabugenewe, ubwo harimo kasike cyangwa ikigofero kinini kimurindira umutwe mu gihe agize impanuka, hakaba harimo n'ibikweto binini bimufasha kuba atafatwa n'umuriro igihe urutsinga rwaba rwashishutse, ibi ngibi ni ngombwa ko buri umwe wese ujya mu mashanyarazi aba abifite, kugira ngo yirinde izo mpanuka.

Uyu ni umuhanda munini kandi mugari, haruguru hari ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga kandi iryo poto ririho ikintu gitambitse ari cyo tara, rimurikira nijoro mu gihe cy'umwijima. Ku ruhande hari ibiti bikurura umwuka mwiza, bigatanga igicucu umuntu ashobora kugamamo izuba, bikaba kandi byabera icumbi ku nyamaswa z'imusozi.

Mu muhanda impande hari icyapa cyerekana aho ibitaro bya kabgayi biherereye; inyuma y'icyo cyapa hari amazu ashaje ndetse kenshi na kenshi abantu iyo baje mu mujyi wa muhanga usanga batazi aho ibyo bitaro biri; ako kapa nubwo ari gato umuntu ashobora kugatesha agaciro ariko kerekana neza aho ushobora gusanga ibyo bitaro

Inyubako nini ndetse imbere yaho hari ubusitani burimo ibiti biciye mu buryo butandukanye. Hejuru y'iyo nyubako hariho ikirango cyerekana ko ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda, i Huye. Ibi akaba ari byo bitaro byakira abarwayi benshi baturutse ahantu henshi.

Iyi ikaba ari inzu nini cyane y'igorofa ebyiri, hagati hakaba harimo ubusitani burimo idarapo ry'igihugu cyacu, imbere hari aho baparika imodoka, aherekana harimo akarongo k'umweru kerekana aho ufite ubumuga agomba guparika mu buryo bwe bwihariye, nta wundi muntu umuvogera cyangwa ngo amuvaneho.

Inyubako nziza igeretse inshuro zirenga ebyiri, ikaba imbere yayo ifite ubusitani kandi ikaba inatwikiriwe mu gihe imvura yaguye cya hari izuba ryinshi ikaba yarinda abantu. Ibi kandi bigaragaza ko iyi nyubako ari iy'icyerekezo kubera ko ifite umuhanda w'abantu bafite ubumuga kunyuzamo akagare kabo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari imbere y'ikimashini hari ibyo ari gukoramo, ku mpande naho harimo ibyo byuma by'ikoranabuhanga ibi byerekana ko ashobora kuba ari mu bitaro ari gusuzuma ibyo abarwayi bamuhaye ngo arebe kuko nimba bafite indwara, ibi byerekana iterambere mu buvuzi buri mu Rwanda.

Uyu ni umuryango mugari w'injira mu bitaro bya kaminuza y'u Rwanda biherereye i Kigali. Imbere hariho bariyeri yemerera abantu kwinjiza imodoka mu gihe babyemerewe, ndetse bakanagusakira ahongaho. Ibi bifasha mu kurinda umutekano w'abarwayi, abasurwa, ndetse bakirinda umutekano muri rusange.

Ni umurwayi ndetse n'umuganga, bari mu cyumba cy'isuzumiro. Umugore ashobora kuba afite ikibazo cy'amaso, naho umuganga ari kumwereka aho icyo kibazo kiri, bifashishije ibyuma byabugenewe. Bitewe n'iterambere riri gushyirwa mu buvuzi ndetse no mu bagore, buri mugore wese yaba icyo yiyemeje kuba cyo kubera ko ntabwo yashyiriweho umurongo ngendanwa.

Itangazo rivuye ku butegetsi ndetse n'ubucamanza mu Rwanda. Bakubwira ko ugomba kwirinda abagira icyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha, mu kubona ubutabera mu nkiko, ndetse n'ubutabera ntibugurwa ibyo ngibyo nibyo twakagombye kumenya. Ibi ngibi byerekana ko hari abatekamitwe biyongereye, bashobora kuza bakakwizeza ibitangaza, kandi nta na kimwe bazagufasha.

Abantu icyenda, batandatu muri bo bambaye impuzankano isa, yerekana ko bakora umurimo umwe, hagati yabo harimo umukuru w'igihugu cyacu perezida Paul Kagame, inyuma ye hari abandi bayobozi na bo, aba bambaye impuzankano bakora mu rukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda, ibi byerekana ko ari bo bashyiraho amategeko kandi bakaba banajurira.

Umugabo wirabuye ubona ko yambaye imyenda idasanzwe ikoreshwa mu myambaro dusanzwe twambara, ikaba isa iroza hagati harimo akarongo k'umweru gafitemo n'igipesu, iyi mirongo yerekana ko yaba akora mu rukiko, yaba ari umucamanza, umushinjacyaha cyangwa umuburanishwa.

Icyumba kirimo abantu bane, abagore babiri bari hagati bambaye imyambaro isa iroza ndetse n'abagabo babari impande babiri bambaye umukara n'umweru ari amakanzu, ibi byerekana ko aba bagabo bashobora kuba ari abashinjacyaha cyangwa abacamanza, naho aba bagore bakaba ari bo bashinjwa icyo cyaha.

Ni icyumba ariko ntabwo ari icyumba cy'inama ahubwo ni icyumba cy'urubanza, harimo abantu batanu, bane bambaye imyenda ijya gusa na ho umwe yambaye imyenda itandukanye, abantu babiri bari imbere ni abacamanza, hakaza umushinjacyaha ndetse n'urafasha umwe muri aba kwiregura.

Ni abagabo batatu bari kugendana, ariko uri hagati ntabwo yambaye nka bo, abari ku mpande bambaye nk'abapolisi b'u Rwanda, ndetse inyuma yabo hari imodoka yabugenewe y'abapolisi, ariyo bita pandagali, ibi byerekana ko mu Rwanda, hatewe intambwe mu mutekano, mu gufasha kurinda abaturage babo.

Umugabo wambaye imyenda idasanzwe, harimo ishati mo imbere ndetse inyuma hari ikintu cy'igikanzu kirimo amabara y'ubwoko butandukanye bw'ibara ry'iroza, umutuku, umukara ndetse n'umweru urimo agapesu. Ibi byerekana ko ashobora kuba ari umucamanza cyangwa umuburanisha.

Abantu umunani bari imbere bambaye impuzankano itandukanye hari batandatu bambaye impuzankano y'umukara, harimo n'umweru n'utugofero dutandukanye n'utw'abangaba bandi bambaye imyenda y'iroza, harimo n'akantu k'umweru hagati n'akagofero kenda gusa ubururu. Ibi byerekana ko aba bantu bakora mu rukiko kubera ko iyi ngiyi ariyo mpuzankano yabo, harimo abacamanza n'abashinjacyaha.

Imbaga nya mwinshi yicaye munsi y'igiti harimo abantu bambaye imyenda isa abagore ndetse n'abagabo ku mpande zabo hari imbaga yindi nyamwinshi ariko itambaye imyambaro imeze nk'iyabo abo bambaye imyambaro isa bambaye imyambaro isa iroza ndetse iyo myambaro ikaba yerekana ko bari mu kigo cy'ihaniro cyangwa nkuko benshi bakunze kuyita gereza.

Abagabo babiri bahagaze bari kuganira kandi bose bambaye udupfukamunwa, ariko bambaye imyambaro itandukanye, umwe yambaye uw'iroza, undi akaba yambaye uw'umukara n'umweru, inyuma yabo hari abagabo bandi bambaye imyenda y'iroza ndetse n'ubupfukamunwa bw'iroza, yerekana ko aba bagabo ari imfungwa.

Abantu batatu bicaye, babiri bambaye impuzankano ifite ibara risa, ubwo ni umweru ndetse n'igikanzu kirekire cy'umukara, uwicaye hagati yambaye impuzankano isa iroza ndetse abo bose bambaye udupfukamunwa, kubera ko byari itegeko mu gihe cya bibiri na makumyabiri ndetse na bibiri na makumyabiri rimwe kubera icyorezo cya kovidi.

Amategeko agenga Leta y'u Rwanda, avuye mu igazeti nimero special yo ku itariki makumyabiri Nzeri bibiri na cumi n'umunani, ari mu ndimi eshatu zitandukanye nk'uko ari zo dukoresha mu Rwanda, ururimi rw'Ikinyarwanda, urw'Icyongereza ndetse n'urw'Igifaransa, aya mategeko nta nimero isanzwe afite ahubwo ni mashya.

Ni umugabo muto ubona ko yambaye imyenda myiza ariko y'amabara atandukanye, yambayemo ishati ya karokaro ndetse na karuvati y'umukara irimo utudomo inyuma hariho igikanzu gisa iroza ubonako ari umucamanza cyangwa umushinjacyaha.

Uyu mugabo uri imbere yambaye amadarubindi ndetse afite na mikorofone cyangwa indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro, inyuma yiwe hari abandi bantu bambaye imyenda isa nayo ariko aba bakaba bafite n'imbunda, bigaragaza ko ari gutanga ikiganiro, kuri bagenzi be b'abapolisi, ibi ngibi bikaba byatera inkunga mu kubungabunga umutekano wacu kubera ko baba barahuguwe.

Buri nyubako uko ingana kose ya Leta, cyangwa ihurirwamo n'abantu benshi igomba kuba ifite iki gikoresho, iyo ni kizimyamwoto, iyi ikaba igabanya cyangwa ihosha umuriro waba watewe n'ibintu bitandukanye, nk'amashanyarazi cyangwa wafatishijwe ku bushake, ibi bikaba ari byiza kubera ko ari byo bifasha mu gihe hataraza ubundi butabazi bw'ibanze.

Umuhanda mugari ukikijwe na pasuparumu nziza zikora ubusitani kandi hateyemo n'ibiti bihumanura ikirere bigatanga umwuka mwiza ndetse n'amahumbezi, imbere hari icyapa cyanditseho Kacyiru polise hosipito cyerekana ibitaro bya polisi biherereye muri Kacyiru mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali.

Buri nyubako igomba kuba ifite byibura kimwe muri ibi bikoresho cyangwa ibifite byombi nibwo byaba byiza cyane, ubwo harimwo kizimyamwoto ndetse n'umupira muremure w'amazi, mu gihe habaye inkongi y'umuriro byakifashishwa mu butabazi bw'ibanze kugira ngo bahazimye hataraza ubundi butabazi.

Ibinyabiziga bibiri biri imbere y'inyubako nziza cyane igeretse inshuro zirenga enye, muri ibyo binyabiziga hari yanditseho polisi kandi iyi ngiyi tukaba tuyita mu buryo busanzwe ngo ni pandagari, itwaramo abapolisi ndetse inyuma hakajya abo bafashe b'abanyabyaha, ibi bikaba byerekana umutekano udendeje mu gihugu cyacu, ndetse n'iterambere muri uwo mutekano.

Buri nyubako yose igomba kuba ifite iki gikoresho kugira ngo babe bakirinda inkubi y'umuriro, icyo ndavuga ni kizimyamwoto, ikaba yagufasha kandi akaba ari iy'ibanze mu gihe habaye inkubi y'umuriro yavuye kugukongeza kubushake cyangwa yavuye ku ihuzwa ry'amashanyarazi hamwe n'amazi bikabyara sirikwi nk'uko abanyamahanga babivuga.

Uyu ni umuhanda ugabanyijemo ibice bibiri, hari akadundi kagabanyijemo uyu muhanda karimo ubusitani, ku ruhande hari abagabo babiri bari kugendana ubona ko bari kuvugana, harimo umugabo wa mbere wambaye imyenda ya gipolisi n'undi wambaye imyenda isanzwe. Ibi byerekana ko mu Rwanda harimo umutekano usanzuye kandi udendeje, ku buryo turyama tugasinzira.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe ariyo igisarubeti ndetse n'ikigofero mu mutwe nikindi kintu kiri gusukura umwuka wiwe inyuma ku mugongo afite igikaneti ndetse afite n'ikindi gikoresho ari gukoresha mu gupuriza umuti uyu muti akaba ari umuti urinda indwara cyangwa umuti wica imibu ndetse n'utundi dusimba twose dutoya.

Umuhanda waguyemo imvura harimo abanyeshuri bari gutaha bava ku mashuri ndetse n'abapolisi babiri bahagaze, bari kurinda umutekano, ibi bishatse kwerekana ko muri uru Rwanda umutekano ari wo washyizwe imbere ndetse n'aba banyeshuri harimo abakobwa, byerekana ko hashyigikiwe uburenganzira bwabo iterambere ku mukobwa cyangwa umugore ryashyizwe imbere mu gihugu cyacu.

Imbere aha hari umupolisi, impande ze hari umukobwa wambaye agapfukamunwa uri gukoresha kizimyamwoto ngo azimye umuriro, uyu ari kwerekera indi mbaga nyamwinshi iri kumureba uko bakoresha kizimyamwoto, iyi mbaga ni abaganga kubera ko bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'indi myenda yabo iba isa ubururu.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza manini ariho amazi, agakayi ko kwandikaho ingingo bari kuvuga ndetse na mudasobwa yerekana ibyo bari kuvugaho, muri abo bantu harimo umugore wambaye amadarubindi, byerekana ko umugore afite ijambo mu gihugu cyacu kandi atasizwe inyuma n'icyaba cyose mu iterambere na we arimo kandi afitemo uruhare.

Umubyeyi uri kurahira ku ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba yambaye umukenyero usa umuhondo ndetse n'iroza, umukufi mu ijosi n'amadarubindi, ibi bikaba byerekana ko yemeye inshingano yahawe kandi akaba azazikurikiza, nk'uko byateganyijwe.

Abagore bambaye imyenda isa, batatu bambaye imyenda y'umweru, ndetse n'abandi babiri bambaye imyenda isa ubururu, bakaba bafite amadarapo yanditseho FPR, hakaba hari undi mugabo inyuma yabo ufite ifoto yanditseho ngo umudugudu wa radari, hariho n'ifoto yindi y'umukuru w'igihugu cyacu, bakaba bari mu kwiyamamaza kwa perezida.

Abantu babiri bicaye imbere, harimo umugabo wambaye ishati isa neza cyane, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ye niko isa. Impande ze hari umugore wambaye amadarubindi, ndetse n'umwambaro w'ikanzu urimo amabara menshi. Ibi byerekana ko umugore atasizwe inyuma mu iterambere. Ubu muri iki gihe nta kazi umugore atakora.

Ikiganza cy'umuntu uri kwerekana intoki ziwe ebyiri igikumwe ndetse n'agahera biteweho irange risa ubururu bwijimye byerekana ko avuye gutora umukuru w'igihugu, ibi bikorwa buri myaka irindwi kugira ngo buri munyarwanda wese ahabwe uburenganzira bwo kwitorera umukuru w'igihugu kandi yumva uzamufasha kugera ku iterambere.

Umugabo wambaye neza ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye amadarubindi ndetse n'ingofero afite mikorofone mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro, inyuma y'iwe hari imbaga nyamwinshi iri mu gishararagati cyangwa nkuko benshi bakunze kubivuga ngo n'itente, iyi akaba ari kuza kwiyamamaza k'umukuru w'igihugu mu Rwanda.

Ahantu hahuriwe n'imbaga nyamwinshi iri mu matente cyangwa igishararagati nk'uko tubizi mu kinyarwanda, bambaye imipira y'ubururu, umweru, cyangwa umutuku. Wagira ngo baje gutora umukuru w'igihugu cyacu kubera ko bafite n'igipapuro cyanditseho FPR kandi urabona ko bizihiwe.

Abantu batanu bari mu gisambu cy'ibitaka, imbere yabo hari ameza ndetse n'agati k'indangururamajwi, ibi byerekana ko baje gutanga ikiganiro, muri abo bantu batanu harimo abagore babiri, byerekana uruhare rw'iterambere abagore bagiramo kandi bikerekana uburyo nta kazi umugore atakora muri iki gihe.

Abayobozi bicaye imbere ku ntebe zabo, inyuma yabo hari idarapo cyangwa ibendera ry'igihugu cyacu ndetse imbere yabo hari abantu bitabiriye inama, buri wese imbere ye hari mudasobwa ari kureberamo ibyo agomba kuvuga cyangwa ibyo bari kuvugaho, ibi kandi bikanerekana ko uyoboye inama ari umugore byerekana kandi binavuga ko umugore atatanzwe mu iterambere.

Imbaga nyamwinshi bambaye ibara rimwe rimwe, harimo umutuku, umweru, ndetse n'umuhondo. Hagati muri bo hagiye hamanitse amabendera handitseho efuperi, ndetse harimo n'ayo mabara y'umutuku, umweru, n'ubururu. Ibi byakozwe mu kwiyamamaza k'umukandida w'Igihugu cyacu ari we perezida w'Igihugu cyacu.

Umusaza w'imvi z'uruyenzi wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu harimo n'umweru yicaye mu kagare bigaragaza ko kugenda bishobora kuba byagorana afite agapapuro mu ntoki ari k,ugashyira mu gikarito giteretse ku ntebe ibi byerekana ko agiye mu matora inyuma yiwe hari ikibambasi gisa umukara ndetse n'ibara ry'idarapu ryacu.

Ikirangantego cya kera cya Repubulika y'u Rwanda, hariho amabara atandukanye ari yo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Hagati harimo inuma ivuga amahoro ko ariyo agomba kutugenga nk'abanyarwanda, kandi hakaba handitseho ubwigenge, gufatanya ndetse n'iterambere, ibi bikaba aribyo bagenderagaho mu kuba bateza igihugu imbere.

Abagabo bahagaze bashagaye umwe uri hagati muri bo aba bagabo bambaye impuzankano ya gipolisi byerekana ko barinze umutekano w'uyu bahagaze hagati akaba ari kubasuhuza, we yambaye ishati y'umweru ingofero y'umukara ndetse n'amadarubindi. Uyu ubahagaze hagati akaba ari umukuru w'igihugu cyacu perezida Paul KAGAME.

Imbaga nyamwinshi iri mu cyumba cy'inama, imbere hari uhicaye uri gutanga ikiganiro abandi ku ruhande bari kumufotora, ibi byerekana ko uyu uri mbere uri gutanga ikiganiro ari umuyobozi nkaho abandi bakaba baje mu mahugurwa, bakaba babyitabiriye kugira ngo bakore akazi kabo neza kenshi na kenshi amahugurwa arafasha kubera ko niyo akwinjiza mu kazi byuzuye.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bibiri biri gucicikanamo, harimo ikinyabiziga kimwe cy'igikamyo cya rukururana gitwaye imizigo hakaza n'ikindi cy'umutuku na cyo gitwaye imizigo, ku ruhande hari umugabo wikoreye umufuka ndetse hari n'umusore uri gutwara ipine arigeza aho byakagombye.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bibiri by'ubwoko butandukanye harimo igare ritwawe n'umugabo uhetse umuzigo mutoya uri mu mufuka w'umweru ndetse hari n'ikindi gikamyo gihetse imizigo myinshi ubona yazingiye mo shitingi impande z'uwo muhanda harimo ibiti bifasha gutera umudendezo ndetse n'amahumbezi mu mujyi.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo iki gikamyo cy'umweru kinini gitwaye ikaneti nini cyane itwara ibintu bisukika, hari igihe haba harimo peteroli cyangwa andi mavuta yose yakwifashishwa. Ibi bikamyo bigenda hanze y'igihugu bikavanayo peteroli bikayizana mu Rwanda, hari igihe biyikomezanya bikayijyana no muyandi mahanga.

Uyu ni umuhanda mugari urimo ibice bibiri harimo igice kimwe kirimo amatafari ahiye, harimo abanyamaguru ndetse n'umusore uhagaze, ikindi gice harimo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga, ibi byerekanako uyu musore uhagaze nta murimo afite, kenshi mu Rwanda usanga abasore b'iki gihe badashaka gukora barashyize amaboko mu mufuka.

Umuhanda mugari uri kunyuramo ikinyabiziga kiremereye ari cyo igikamyo, inyuma hariho shitingi nk'aho itwikiriye ibyo itwayemo; umuhanda ku ruhande hari rigore, iyi rigore ikaba ikoreshejwe amabuye kugira ngo isuri ndetse n'amazi, umuvu w'amazi, udashobora kuyitwara; ku ruhande hari ibiti bitanga umwuka mwiza.

Abamotari barenga batanu barimbere y'inzu bari ku kubapakirira imifuka yuzuyemo ibintu nk'aho babitunze babijyanye ahantu. Ibi byerekana ko nta kazi umuntu atakora kandi ko nta kazi umuntu yakagombye gusuzugura ko buri kimwe cyose kiguha amafaranga cyaguteza imbere. Ukagira aho wigeza mu buzima bwawe.

Mu muhanda mugari urimo ibinyabiziga bibiri, harimo igare ndetse n'ikindi gikamyo kinini nk'uko benshi bacyita rukururana. Impande z'uwo muhanda hari ibiti by'ubwoko bwinshi kandi ibi biti bikaba byafasha mu kurinda isuri, mu gutanga umwuka mwiza mu mujyi ndetse no kurinda ikindi kiza icyo ari cyo cyose cyaza.

Umugabo ufite igare, inyuma ye hari umugore wambaye igitenge ndetse n'undi mugabo imbere yiwe, bari mu muhanda muto w'abagenzi winjira mu muhanda munini urimo igikamyo ndetse n'imoto ihetse umugenzi, ku ruhande hari icyapa, hari n'ipironi ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza.

Umuhanda mugari utegererejwemo n'abamotari abagenzi, ku ruhande hari imodoka isa umutuku baparitse aho ngaho. Uyu muhanda ni uwo mu mudugudu kandi ibi bikaba byoroshya abantu kugera mu ngo zabo, batarinze banyura mu muhanda mubi w'ibikuku cyangwa mu muhanda ugoye.

Ni imodoka ebyiri ziri muri gare ubona ko zikora akazi gatandukanye, hari ndende ikora urugendo mu mujyi wa Kigali ndetse n'ingufiya ikora urugendo mu mujyi ndetse no mu nkengero za Kigali, uku nguku byoroshya urugendo kuri buri wese haba ku muntu ndetse no ku bicuruzwa cyangwa ibiribwa ibyo ari byo byose.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bibiri bitandukanye, harimo moto ifite amapine atatu, ndetse n'igikamyo kinini gihetse amamatera. Ku ruhande hari rigore ikoreshejwe amabuye kugira ngo abe yarinda isuri, kandi afate amazi ku buryo amazi ataza kuyitembana. Ku ruhande hari ibiti byabuza isuri na byo kandi bikabitanga umwuka mwiza.

Umuhanda munini ugabanyijemo ibice bitatu, hari igice cya mbere gifukuye aricyo kinyuramo ibitembo by'amazi, iki gice kikaba gikotejwe n'amabuye manini akomeye, ku buryo amazi atagitwara. Hakaza umuhanda munini ukozwe na kaburimbo, unyuramo ibinyabiziga byose, harimo moto, igare, imodoka, ndetse n'ibimodoka biremereye. Hakaza n'umuhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo imodoka iri mu bwoko bwa hiligisi ihetse ibiti ndetse n'abamotari babiri bahetse abagenzi, ku ruhande hari ibiti bitanga umwuka mwiza ndetse haparitse nibikamyo bya rukururana, bitwara imizigo iva hanze cyangwa imizigo iremereye cyane.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo igare ririho umuyonzi hamwe n'umugenzi we, hakaza ibimodoka bibiri cyangwa ibikamyo bya rukururana bitwaye imizigo yayo, ku ruhande hari ibiti biyungurura umwuka kugira ngo bidahumanya ikirere, ibi ibyotsi biva mu mamodoka ndetse hari n'ikiraro kijya muri uwo muhanda.

Abagabo babiri bari kunyura hagati y'imodoka zitwa yego kabuzi, izi modoka zikaba zagufasha kugera aho ushaka kugera utiriwe utonda umurongo imbere y'imodoka zitwara rubanda nyamwinshi arizo bita bisi. Izi modoka ni nziza cyane kandi zirihuta, zikugerezayo igihe kandi ukagenda wisanzuye.

Umuhanda munini cyane kandi mugari urimo abanyamaguru bari kugendera mu mabuye cyangwa amatafari ahiye; hakaza umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga kinini cya rukururana cyangwa igikamyo; hejuru y'uwo muhanda hakaba hari ikiraro nacyo kirimo umuhanda nyabagendwa kandi nawo ugabanyije nk'uko uyu ugabanyije; ku ruhande hari ibiti bitanga umwuka mwiza,

Uyu ni umuhanda ukoreshwa cyane kubera ko arimo urujya n'uruza rw'amamoto ari gucicikana ashaka abagenzi, ndetse hari na moto iparitse ,hepfo hari inzu nini iri gukorerwamo ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse n'ibikomoka ku mata. Ibi byerekana aho iterambere rigeze mu gihugu cyacu,, aho buri wese yakuye amaboko mu mufuka, akiyemeza kwikorera.

Uyu ni umuhanda munini kandi mugari ugabanyijemo ibice byinshi, hari igice cya mbere kirimo amatafari ahiye kikaba kiri no hejuru, hakaba hanyuramo abanyamaguru gusa, umuhanda wa kaburimbo ujyi hasi akaba ari uwunyuramo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye kandi nano hakaba hari amabwiriza agenga kunyura muri iyo kaburimbo.

Umuhanda munini kandi mugari urimo ibinyabiziga by'ubwoko bwose, harimo ikinyabiziga cya mbere kiri imbere, cy'igikamyo, fuso, ariko iki kikaba gitwara ibiro bikeya kandi hari ibitemerewe kujyamo, hakaza ikikiri inyuma kinini bita dipine, kikaba cyatwara ibintu biremereye nk'imicanga, amabuye, ndetse n'abantu benshi bagera mu ijana.

Umuhanda munini cyane, ugabanyijemo ibice bitatu, hakaba hari igice cya mbere kigabanyijemo kugira ngo gifate amazi, hataza kuba impanuka za hato na hato, cyangwa isuri, igice cya kabiri kikaba kirimo amatafari ahiye, cyerekana ko ari umuhanda w'abanyamaguru, igice cya gatatu akaba ari icy'ikinyabiziga harimo n'igikamyo, kugira ngo buri wese amenye aho aragendera, bize kurinda impanuka.

Umuhanda mwiza cyane ukikijwe n'ubusitani burimo indabo nziza cyane na zo, harimo ibiti by'ubwoko bwose ndetse n'amapoto y'amatara amuririka umuhanda, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga by'ubwoko bwose, ariko aha ngaha ikigaragara ni ikinyabiziga cyigisha umuntu gutwara imodoka. Ibi ngibi bikaba byagufasha guhabwa impamyabumenyi mu bijyanye n'imodoka.

Umuhanda mugari urimo ibyiciro bitatu bitandukanye, hari igitembo cy'amazi nk'uko abanyamahanga bacyita rigore, hakaba hari umuhanda utereye hejuru w'abagenzi ubwo ndavuga abanyamaguru, ufitemo amatafari ahiye, ku ruhande hakaza umuhanda w'ibinyabiziga usa umukara ku ruhande hariho akarongo k'umweru, harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye moto, imodoka.

Abanyeshuri bane bari kwikinira agapira, mu kibuga cyabo impande urabona ko hari amashuri ya kijyambere asa neza cyane y'amagorofa ageretse inshuro enye. Ibi bikaba byerekana inkunga leta yacu ishyira mu guteza imbere uburezi, kandi bakaba bafite n'ubusitani bugezweho ku buryo babona umwuka uhagije ndetse unasukuye.

Ni ikibuga kigari hakinirwamo umukino witwa basiketiboro. Siporo ifasha umuntu kuruhuka, igafasha amaraso gutembera neza, kandi ikamufasha mu kuruhura ibitekerezo by'iwe, ndetse n'umubiri w'iwe. Abantu benshi ntabwo bayikunda ngo kubera ko irabananiza, ariko iyo umuntu ageze mu za bukuru nibwo abyumva.

Ishuri rerero cyangwa nk'uko abandi babyita ngo ni urugo mbonezamikurire y'abana batoya, akaba ariryo ryifashishwa mu kurera abana batoya no kubatoza kwiga guhera ku myaka ibiri kugeza ku myaka ine, ku buryo bitegura kujya mu mwaka ubanza w'amashuri.

Icyapa kiriho uturongo tubiri dutandukanye, twerekana hamwe aho ujya ku Kanyayaru, Huye na Muhanga, ahandi hari aho ujya Ruhango na Kinazi. Hejuru yacyo hari umugina uriho igiti kirinda isuri, kikaba cyanakumira ibindi biza ibyo ari byo byose.

Icyapa kiri ku rugo rw'umuntu cyanditseho kaje gatanu abe ijana na mirongo inani na gatanu, cyerekana nimero y'urugo rw'umuntu cyangwa igipangu cyiwe, ibi bikaba ari byiza kubera ko biranga cyangwa byakifashisha kurangira umuntu ahantu utuye.

Umuhanda munini kandi mugari ukikijwe n'abantu imbaga nyamwinshi, ku ruhande hari icyapa cyanditseho Muhanga disitirigiti bivuga akarere ka Muhanga, muri uwo muhanda harimo amagare menshi ari gusiganwa nk'uko buri mwaka mu Rwanda habera umukino w'amagare wo kurushanwa kugira ngo utsinze ahabwe igikombe.

Uyu ni umudugudu uherereye mu mujyi wa Kigali, urabona ko hakirimo akavuyo bitewe n'uburyo inzu zicucikanye, ariko hari izindi nzu zigiye zujuje ibyangombwa, harimo ikibanza kinini cyangwa igihe cy'imyubakire n'uburyo yubatse. Hagati aho ngaho kandi harimo ibiti bitanga amahumbezi ndetse bikayungurura n'umwuka muri uyu mujyi.

Ihuriro ry'imihanda iri mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Remera, mu Mujyi wa Kigali nk'uko benshi bakunze kuhita kwa Rando, bitewe n'ikigo kandi akaba ari na hoteli yamamaye cyane yitwa she Rando. ibingibi bikaba bitanga isura nshya yo kuvuga ko buri wese yagera ku iterambere bititawe uburyo yakuze cyangwa aho yakuriye.

Uyu mumotari utegereje umugenzi akaba ari mu Kajagari kambere ka Kanombe mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aha ngaha bahise mu Kajagari kubera ko kera hari hari akavuyo ndetse n'amazu acucikanye ukaba usanga hateje ikibazo ariko ubu barahavuguruye hameze neza nk'uko umujyi wabishatse.

Umudugudu mwiza w'iterambere, urimo amazu y'ubwoko butandukanye ariko y'icyerekezo, harimo ageretse inshuro enye, ageretse inshuro eshatu cyangwa ageretse inshuro imwe, biterwa weho n'iyo ushaka, ibi kandi ntago biba byatera guhumanya ikirere, kubera ko harimo ubusitani ndetse n'ibiti by'ubwoko bwose kugirango bitange amahumbezi n'umwuka usukuye muri ako gace.

Umurongo muremure w'inzu z'amaduka acururizamo ibintu bitandukanye, hari ifite ibara risa ubururu ariryo ryerekana ko aho bacuruza amata ndetse n'ibindi byose bikomoka ku mata harimo amavuta y'inka cyangwa ibiribwa baponda bavanye muri ano mata harimo nk'amandazi, capati bitera byose imbaraga.

Inzu nziza iherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa kimironko, mu mujyi wa kigali, ikaba igeretse inshuro zirenga enye, ikaba ifite ubusitani bwiza buteyemo indabo z'ubwoko bwinshi, kandi iyo nzu hejuru ukaba wahakorera ibirori cyangwa ukajya kuhafatira umwuka cyangwa umudendezo, ikaba iherereye neza neza ku murenge wa kimironko.

Umuhanda uciwemo kabiri, n'ubusitani butewemo igiti cy'umukindo ndetse na pasiparumu ibikikije. Ku ruhande hari inyubako igeretse inshuro zirenga eshatu, kandi hakorerwamo ibikorwa Remezo nko gucuruza, cyangwa resitora igaburira abantu. Ibi bikaba ari byiza, bikaba biteza imbere umujyi, ku buryo nta kintu waburira muri ako gace.

Ni umujyi mwiza munini urimo amazu y'ubwoko bwose washaka. Harimo ageretse nk'uko dusanzwe tubivuga ngo etaje, ndetse n'amagufiya ari ku butaka. Kandi muri uno mujyi yewe harimo ibiti byakoroshya kuyungurura umwuka ndetse ukaba watanga n'amahumbezi mu mujyi wose.

Abantu bari kugenda mu mujyi nijoro, impande zabo hari amamodoka ari gucicikana, ibi byerekana ko nk'uko Abanyarwanda babivuze ko nijoro mu mujyi batajya basinzira, ibi akaba ari byiza kubera ko byoroshya imirimo ya hato na hato ndetse ikoroshya n'urugendo.

Umudugudu mwiza kandi w'icyerekezo uri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, ukaba urimo amazu meza y'ubwoko butandukanye. Hari ari hasi ndetse hari n'ageretse, nk'uko benshi babivuga ngo ni etaje. Hakaba harimo n'ibiti hagati y'amazu n'andi kugira ngo bitange umwuka mwiza ndetse usukuye ndetse n'amahumbezi mu mudugudu.

Umuhanda mugari uciwemo kabiri n'icyapa kinini, inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ubusitani buteyemo igiti cy'umukindo, hari ibikamyo bibiri bya rukururana biri inyuma y'uwo muhanda kandi iki cyapa kikaba kigaragaza ko ariwo muryango mukuru w'Afurika y'ububurasirazuba ndetse n'Afurika y'uburengerazuba utwaramo ibinyabiziga byayo.

Ni umumotari utwaye umugenzi ndetse n'abandi bagabo batatu bari imbere y'imodoka, izo modoka zikaba ziri imbere y'inyubako ndende igeretse gatatu ikorerwamo ibikorwa by'ubwoko bwose; harimo ubucuruzi, harimo ubwishingizi, yewe na papetori ya yindi icuruza amakaye n'amakaramu.

Umuhanda mugari hagati hakaba harimo ubusitani buteyemo ibiti, harimo yewe n'ipironi ndetse n'icyapa, ibi bikaba bigabanya impanuka zaba hagati ya hato na hato byatewe n'abantu bafite umuvuduko mwinshi cyangwa n'akavuyo, ku mpande z'uwo muhanda hakaba hatewemo, ibiti ndetse n'ubundi busitani butegura neza umujyi ukaba usukuye.

Uyu muhanda ugizwe n'ibyiciro bitandukanye, hari uyu ukozwe n'amatafari ahiye ari wo w'abanyamaguru, hakaza uyu nguyu w'ibinyabiziga usa umukara nk'uko twabimenyereye ngo ni kaburimbo, kandi hagati harimo akantu gatereye karimo ipironi, byerekana ko aka ngaka ugomba kugakatira buri gihe cyose utakagonga, ibi bigabanya impanuka za hato na hato ngo mugenzi wawe yibeshye.

Ni mu ihuriro ry'imihanda harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, cyane cyane imoto ndetse n'imodoka. Hagati y'uwo muhanda harimo utuntu tw'umweru tugiye dusiribanzemo twerekana aho umuntu agomba gukatira, ibi bikaba byafasha mu kwirinda impanuka yaza aho yafatira hose.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye nk'imodoka isanzwe iri hasi, imodoka itwara rubanda nyamwinshi ndetse na moto, hagati mu muhanda harimo ubusitani butoya hashinzemo igiti cy'umukindo kandi ibi ngibi bikaba bitanga isura nziza.

Umuhanda mugari cyane ugabanyijemo ibice bibiri, harimo umuhanda w'abagenzi ugabanyamaguru, usizemo kandi urimo amatafari ahiye hanyuma hakaza n'umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye imoto, imodoka ndetse n'ibikamyo, ibi bikaba byarinda impanuka z'ubwoko butandukanye kandi bikaba bifasha.

Ni abamotari babiri, bari mu muhanda, haruguru yabo hari ibiti bifatiye umukingo, ibi biti bitanga umwuka mwiza mu mujyi, ndetse bikaba byarinda isuri, ndetse n'ikindi kiza icyo ari cyo cyose cyaza, bitanga amahumbezi mu mujyi, ndetse bigatanga n'ubuzima ku nyamaswa ziba imusozi.

Uyu ni umuhanda munini ugabanyijemo ibice bibiri. Hari igice cya mbere kirimo amatafari ahiye, iki cyerekana ko ari umuhanda w'abanyamaguru. Hakaza igice cya kaburimbo kinyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare, imodoka ndetse na moto. Yewe muri iki gice cya kaburimbo harimo ibyerekezo bibiri.

Ihuriro ry'imihanda umwe umanuka uva ruguru ndetse n'undi uri gutambika, harimo ibinyabiziga ku mpande, hari ubusitani burimo ibyapa ndetse butewemo n'ibiti. Ku ruhande rwo hepfo hari abagabo bane bahagaze nk'aho nta mukoro urimo, ibi bishatse kwerekana ko murino minsi urubyiruko rusigaye rwarabuze imirimo, ku buryo rushobora kubyukira ku muhanda rwicaye.

Iri ni ihuriro ry'imihanda harimo ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, moto, imodoka, ndetse n'igikamyo. Haruguru y'umuhanda hari ibiti kugira ngo biririnde isuri kuba yaza igatera mu muhanda. Ndetse ibyo biti biba byakumira ibindi biza ibyo ari byo byose kandi bitanga n'umwuka mwiza mu muhanda ndetse no ku bantu kugira ngo ntibahumeke ibyabangiriza ubuzima.

Umuhanda munini kandi wagutse urimo umumotari utwaye umugenzi bose bambaye ikigofero gisa umutuku, ubwo ndavuga kasike kugira ngo igihe habaye impanuka buri mwe wese abe atakomereka bikabije, ku ruhande kandi hari ibiti bisa neza cyane bitatse uwo muhanda kandi ibi biti bikaba biyungurura umwuka abantu bahumeka.

Iri ni ihuriro ry'imihanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, muri uwo muhanda hashushanyijemo uturongo tw'umweru, twerekana icyerekezo aho umuntu yakagombye kunyura, kugira ngo byirindwe akavuyo n'akaduruvayo kaba hato na hato bikaba byateza impanuka, ibi kandi byerekana aho umunyamaguru agomba kwambukira kandi n'aho bagenzi be batwaye ibinyabiziga bagomba guhagarara.

Umuhanda ugabanyijwemo kabiri n'akadundi gafite ibara risa umuhondo ndetse n'umweru, ibi byerekana ko buri muhanda ufite icyerekezo cyawo bitewe n'aho ikinyabiziga kiri kwerekeza, kandi muri uwo muhanda harimo ikinyabiziga cy'igikamyo gitwara imizigo mu buryo bworoshye kandi budapyinagaje imodoka.

Uyu ni umuhanda munini kandi mugari ugabanyijemo kabiri, n'utudundi, karimo ubusitani, umukindo munini, ndetse harimo n'amatara. Ibi bikaba bifasha mu gutaka umujyi ndetse bikanawucanira mu gihe byije. Ku ruhande harimo uturongo tw'umweru byerekana ahantu utagomba kurenga kuri ako kadundi, iyo uharenze ugomba kwishyura amande byaba ngombwa bakanagufunga.

Umuhanda munini kandi mugari ukikijwe n'ubusitani burimo indabo nziza ndetse n'ibiti bihumanura ikirere bigatanga umwuka mwiza, hagati harimo akadundi karimo ubusitani ndetse n'igiti cy'umukindo, aka kadundi buri umwe wese aba agomba kugakatira, ubwo ukoresha ikinyabiziga wese kugira ngo byirinde impanuka kandi bitume nta kavuyo kaba mu muhanda.

Umuhanda kandi mugari ugabanyijemo ibyiciro bibiri bitandukanye, hari hamwe harimo amatafari ahiye ubwo uwo ni umuhanda w'abanyamaguru, hakaza na kaburimbo nini y'umukara irimo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare, imodoka itwara inyama ndetse n'izindi modoka zisanzwe, ibi bikaba bigabanya akavuyo ndetse n'impanuka za hato na hato.

Umuhanda ugabanyijwemo kabiri n'akandi karimo ubusitani hateyemo igiti cy'umukindo ndetse harimo n'icyapa, impande zuwo muhanda hari umukingo ukoteye n'amabuye akomeye kugirango isuri iba itamanura igitaka ngo igisuke mu muhanda, ku rundi ruhande harimo ibiti byiza bitanga amahumbezi kandi bikaba biyungurura umwuka abantu bahumeka.

Umuhanda munini kandi mugari w'icyerekezo, ugabanyijemo ibice bitandukanye. Hari igice cya mbere gifite amatafari ahiye, ubu igice ni icyo abanyamaguru bagenderamo hakaza n'igice kigabanyijwemo na cyo cy'abanyamaguru n'ubusitani bunini kandi bwiza. Iki gice ni icy'ibinyabiziga nk'imodoka, imoto ndetse n'ibindi byinshi.

Umuhanda munini cyane ugabanyijemo inshuro ebyiri, werekana icyerekezo aho ikinyabiziga cyangwa umuntu yakagombye kugendera bitewe n'aho agana. Icyo kigabanyijemo kabiri akaba ari akadonjyi karimo ubusitani ndetse n'ipiloni ry'amatara. Ku ruhande hakaba hari ibiti byiza cyane bitanga amahumbezi, n'umuyaga mwiza abantu bahumeka. ndetse n'icyapa kirangira umuntu ahagana.